Umugabo arimo gufuhira umuceri akaba ari mu gishanga gihinzemo umuceri mwinshi cyane, uyu mugabo ahetse ipombo ifite ibara ry'umuhondo ipfundikijwe umupfundikizo w'icyatsi kibisi.

Umuntu bigaragara ko ari umugabo, arimo gufuhira indabo ndetse n'imikindo. Bikaba biri mu busitani buri imbere y'inyubako nziza, ifite ibara ry'umweru ndetse ikaba isa neza yubatswe mu buryo bugezweho.

Ibyuzi by'amafi bifasha abaturage kwiteza imbere, binyuze mu kuroba amafi baba barororeyemo, bakayagurisha maze bakabona amafaranga abafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Umuntu bigaragara ko ari umukobwa. Ari mu kiyaga akaba arimo kuroba amafi. Gusa icyo kiyaga ni ikikorewe n'abaturage. Ari kurobesha indobani ishaje ndetse akaba ari no mu mazi mo hagati.

Igishanga kirimo amazi menshi, kirimo kwitegerezwa n'abantu bakaba bahagaze bakiyitegeye, hirya yabo hari inyubako nini nziza, ikaba yubatswe mu buryo bugezweho isakaje amabati y'umutuku.

Umugabo ufite umutwe munini cyane. Akaba afite umusatsi ukaraze yambaye agapira k'umweru gaciye amaboko. Ni igikara ari kwerekana amafi menshi cyane yarobwe mu kiyaga ndetse no mu cyuzi yikoreye.

Abantu babiri barimo kuroba amafi, bakaba bari kuyaroba mu cyuzi bikoreye bakoresheje shitingi maze bakaba baragiye batega amazi akaba yarabaye menshi.

Abantu benshi cyane bakunze kugira ngo umuceri ukurwa mu nganda nyamara si ko biri ahubwo umuceri uhingwa mu bishanga hanyuma wamara kwera ukajyanwa gutunganywa mu nganda maze ukabona kujya ku isoko.

Ibihingwa ngengabukungu bihingwa mu Rwanda birimo n'umuceri. Umuceri iyo bamaze kuwuhora, barawufata bakawushyira mu mifuka, hanyuma imodoka zikawujyana ku ruganda kugira ngo ziwutunganye neza.

Ibihingwa ngengabukungu byo mu Rwanda ni byinshi ariko hari bibiri bizwi cyane, bikunze kugira uruhare mu iterambere ry'igihugu. Ibyo ngibyo n'ikawa ndetse n'icyayi. Ikawa ni igihingwa cyera mu gihe gitandukanye.

Abakozi basoroma icyayi bavuga y'uko bibafasha kwiteza imbere mu buryo bugiye butandukanye, kuko uwazindutse kare ashobora gukorera amafaranga atari make, bityo bikamufasha kujya mu bimina maze akazabona uko yabura itungo ndetse akarihira abana be.

Ikawa ni igihingwa ngengabukungu gikomeye mu Rwanda. Abantu barihinga bavuga yuko ribateza imbere ku rwego rwo hejuru, bakabona amafaranga yo kurihira abana babo ndetse n'iyindi mibereho muri rusange ikarushaho kuba myiza.

Ikawa ryiza cyane ritoshye rikaba rifite ibitumbwe bitukuye ndetse n'ibindi bitaratukura, iri kawa rikaba ritanga umusaruro uhagije kuri nyira ryo.

Ikawa rifite in intete nyinshi cyane. Ni intete zitangiye gutukura ariko uko bigaragara amababi yarumye yashizeho ndetse zimwe zishwe n'izuba.

Ikawa ni kimwe mu bihingwa ngengabukungu bikunze kuboneka mu gihugu cy'u Rwanda rikaba rijyanwa ku isoko mpuzamahanga ndetse rikaba ryinjiza amafaranga menshi cyane y'amadevize.

Abantu bigaragara ko barimo gusoroma icyayi, bakaba baforoma icyayi bafite ibitebo bahetse inyuma mu mugongo bagenda bashyiramo amababi basoromye.

Ibiganza bifite ikawa, iryo kawa rikaba risa neza ritukuye, uko bigaragara akaba ari umuhinzi witeje imbere agakora igikorwa cyo guhinga iki gihingwa.

Ibikombe byinshi cyane birimo imiti ivura amatungo ndetse bikaba ari ibikombe biri mu mabara atandukanye byanditseho amagambo agaragaza uburyo imiti irimo ikoreshwa.

Amacupa maremare ndetse manini akaba ari ahantu hamwe ateretse. Yose agiye ashushanyijeho igipapuro kiriho inka. Bigaragara ko ari imiti y'inka.

Ibidobo binini cyane by'umweru n'iby'umuhondo birunzemo imiti ivura inyamaswa cyangwa se amatungo, iyo miti ikaba ikoreshwa n'abantu boroye inka, ihene, ingurube ndetse n'inkoko.

Icyumba kirimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa na muganga, bikaba birimo inshinge ndetse n'imiti iri mu macupa, ibyo byose bikaba bikoreshwa mu gutera inka ndetse no mu matungo agiye atandukanye.

Ibikarito bishushanyijeho inkoko zikaba ziri mu moko atatu hari isake, inkokokazi ndetse hakaba hari n'imishwi mitoya itarakura.

Abantu bazindutse kare kare mu gitondo, bakaba barimo gutera ibiti kugira bimakaze gahunda yo kurengera ibidukikije ndetse igihugu kibone umwuka mwiza wo guhumeka.

Igishanga gihinzemo umuceri hari abantu barimo kuwubagara ndetse iruhande rwawo hakaba hari inzira y'agahanda kazamuka kamezemo ibyatsi.

Igisambu kirimo ibyatsi by'umukenke byakuze ndetse hakaba hari kunyuramo ababyeyi babiri, abo babyeyi bose bakaba bambaye neza cyane umwe ateze igitambaro gikozwe mu gitenge, undi na we yambaye ishati nziza idozwe mu gitenge.

Abagabo barimo kugenda mu nzira. Bakaba bageze mu gihuru cyinshi ndetse hakaba hari umugore ufite inkwi, utashye uvuye gukora imirimo. Akaba agiye gutekera abana bagiye ku ishuri.

Abantu bariryoishanga barimo kubagara umuceri, ni benshi cyane buri wese ari mu murima we, hari ishyamba ryegeranye n'icyo gishanga ririmo ibyatsi n'ibigunda byinshi, hakaba higanjemo ibiti bya kimeza.

Akarima k'igikoni kagira uruhare mu gutuma imirire mibi igabanuka mu Rwanda ndetse kakaba gatuma igwingira ry'abana ndetse n'indwara rya bwaki mu bana batoya rigabanuka.

Ibigori byinshi cyane, ni ibigori bitangiye kuzana imyangangi gusa uko bigaragara bikaba byaratangiye kuma izuba ryabaye ryinshi, aho biteye harahinze iruhande rw'aho hari undi murima uteyemo ibijumba.

Umurima uhinzemo imigozi, ni imigozi bigaragara ko izera ibijumba byiza cyane kuko iratoshye kandi ni mu gihe cy'impeshyi, ibijumba na byo bishobora gutezambere uwabihinbye.

Inzuzi ziteye mu murima. Zikaba ari inzuzi bigaragara yuko zitaratangira kuzana ibihaza. Gusa mu minsi iri imbere ziratangira kubizana.

Ibishyimbo bitangiye kumera bihinze mu murima mwiza cyane, bigaragara ko ari ibishyiyimbo byiza ndetse bitanga ikizere cy'uko bishobora kuzatanga umusaruro uhagije.

Ahantu hari igihuru kirimo ibyatsi bitandukanye ndetse hakaba ari ahantu ushobora kugenda ugakura imiti cyangwa ukahira ubwatsi bw'amatungo.

Imboga zitwa dodo ni imboga zikunze kugira uruhare mu kuvura indwara nyinshi cyane, kuko zifitemo ubushobozi butangaje ndetse zikaba ari imboga zitagoye kuzihinga, cyangwa se zikaba zidahinze ku bazigura.

Ibigori bihinze neza ahantu mu murima, bikaba ari ibigori byiza cyane biheka bibiri, ibigori bikaba byaratanzwe na Tubura kugira ngo abaturage babihinge maze biteze imbere.

Imyumbati ni igihingwa gikunze kumara igihe kirekire mu murima gusa abayihinga bakunze kuvuga ko iyo yeze ibateza imbere binyuze mu kuba hari inganda zabonetse zisigaye zitunganya ibikomoka ku myumbati.

Icyatsi cyarimbutse aho cyari giteye kubera umuyaga mwinshi. Aho kiryamye hari ibyatsi byumye ndetse bigaragara ko na cyo cyatangiye kuma, umuntu ashobora kuza akakijyana kugicana.

Abantu batatu bashinzwe umutekano mu nzego zitandukanye harimo abo mu rwego rwa Polisi ndetse n'abo mu rwego rwa DASSO, barimo gukora umuganda bakaba bari gutema ibihuru.

Igihuru kirimo ibishyihe ndetse n'ibindi bimera bigiye bitandukanye, hari ishyamba rinini cyane rifatanye hakaba higanjemo ibiti bya kimeza.

Umurima uteyemo ibiti bya gereveriya bikiri bitoya, ni umurima bigaragara ko wegeranye n'ishyamba rinini ndetse ukaba urimo ibyatsi byinshi.

Agasozi karimo ibiti ndetse hakaba hari igisambu kidaheruka guhingwaho, umuntu ashobora kuhahira ubwatsi bw'amatungo cyangwa akazana inka ikaharisha.

Umusozi munini cyane ndetse ukaba ari umusozi utuweho n'abaturage benshi, inyubako zihari zisakajwe amabati ndetse hakaba hari umuhanda utambuka unyura hagati, hakaba hari n'insina nyinshi.

Ishyamba rinini cyane ry'inzitane rikaba ari ishyamba ryiza cyane risurwa n'abantu baje kwihera ijisho ibyiza nyaburanga bitatse u Rwanda.

Ku isoko igihe wagiyeyo uzahasanga ibicuruzwa bitandukanye ariko ntago haburamo ibiribwa, isoko rigenda rizanwaho inyanya ndetse n'izindi mbuto kugira ngo abatarahinze na bo babibone.

Umugabo ushinzwe gukora mu busitani arimo gukata indabo. Izo ndabo zikaba ari indabo zifite ibara ry'umutuku, ndetse zikaba ari indabo nziza cyane zifite amahumbezi ndetse zihumura neza.

Akarima k'igikoni gateguye neza bigaragara yuko kagiye guterwamo imboga zitandukanye ndetse na dodo, mu rwego rwo kugira ngo hazitabweho kugira imibereho myiza y'abaturage izira kurya ibiryo bitujuje ubuziranenge.

Abantu bari mu bitunguru umwe ni umuzungu yunamye arimo kureba ko byeze, abandi na bo baramushungereye bari kuvuga bati: "Ese umuzungu na we ashobora gukora hasi?"

Indobo ziri ku isoko zikaba zirunzemo inyanya ndetse hakaba hari n'abaturage bari kugenda bagura izo nyanya bazijyana mu ngo zabo kugira ngo baziteke, bazirye.

Abaturage benshi biganjemo abagore, bafite inanasi bazizamuye hejuru ikirere, barimo kuzerekana, zose zikaba zeze neza ku buryo wahita uzirya.

Akarima k'igikoni gahinzemo imboga z'amoko atandukanye, igice kimwe gihinzemo dodo, ikindi gihinzemo izindi mboga rwatsi n'ubundi bwoko. Hari ahahinzemo karoti ndetse hejuru hahinze ibitunguru.

Ubusitani bwiza cyane buteye amarengengeza burimo indabo z'amoko yose, hakaba hari indabo zifite ibara ry'umuhondo, uhageze wakumva impumuro nziza ihaboneka.

Igiti kinini cyane kikaba ari igiti keraho pome, hari umugabo wambaye ijiri wacyuriye akaba ari kugenda asoroma pome azishyira mu gikapu cy'umukara ahetse imbere ku nda.

Umugabo w'umuhinzi ukomeye cyane akaba ari mu ruzabibu rwe, hahinze inyanya zikoreye neza zatangiye kwera zihereye hasi ndetse urabona ko azasarura mu byiciro bigiye bitandukanye.

Inanasi zihinze mu murima munini hari izatukuye ndetse hari n'izitaratukura, uko bigaragara ni umuturage wagize igitekerezo cyo gufata umurima we maze awuhingamo icyo gihingwa cyavuzwe haruguru.

Ipapayi ebyiri ziteganye ndetse zikaba ari ipapayi zifite imiteja myinshi cyane, ikaba itaratangira kwera, iri iruhande rw'inyubako nziza cyane isize amarangi y'umweru.

Umugabo ufite umurima yahinzemo imbuto zigiye zitandukanye, harimo n'ibishyimbo. Afite rozwara ebyiri, arimo kuvomerera igiti kivangwa n'imyaka yahinze muri uyu murima.

Abaturage barimo gufuhira ibigori kugira ngo babirinde udusimba tugenda twinjiramo by'umwihariko akitwa nkongo gakunze gusegesha ibigori maze bigatuma bitera.

Hirya no hino mu byaro, hari ahantu hataragera uburyo bwo kuvomerera hifashishijwe ikoranabuhanga ry'umuriro w'amashanyarazi cyangwa se ubundi buryo, umuntu ashobora gukoresha imirasire y'izuba maze akavomerera imbuto ze.

Umugabo yahinze umuceri mu gishanga, none arimo kuwufuhira umuti kugira ngo abashe kurinda intete kuba zahunguka, ibyo ngibyo bikamufasha kuzagira umusaruro utubutse kandi ushimishije.

Umugabo wa rwiyemezamirimo akaba afite rozwara ebyiri, arimo kuvomera imbuto ze yahinze mu mubande ndetse uko bigaragara ni mu gihe k'izuba gusa atewe ishema n'uko mu gihe kizaza azabona amafaranga yavuye mu mvune yagize.

Umukozi ushinzwe ibijyanye n'amazi ukorera ikigo cya wasake, arimo kwesitara amazi ahantu mu murima ndetse akaba yashyize ku matiyo, utuntu twinshi tuzamura amazi hejuru.

Umusozi ugaragara ndetse ukaba ari umusozi uriho ibiti bikunze kuba ari ibya kimeza, ni umusozi wegereye ikiyaga ndetse ikiyaga kikaba gifite amazi menshi.

Umusozi munini uhinzemo insina, amashyamba ndetse hakaba hari n'ahandi hantu hagiye hari ibishanga. Ni umisozi bigaragara ko utuweho n'abaturage bakeya.

Umusozi uteyeho ishyamba rinini rya pinusi, ukaba witegeye ahantu heza cyane ndetse hakaba hari kuva akazuba gake gake ka nimugoroba, haragaragaramo akazu kituriye mu ishyamba.

Umusozi munini cyane ukaba ari umusozi wo mu giturage ndetse hakaba hayatuyemo abaturage bakeya. Inyubako zabo zirasanzwe ndetse zikaba zisakaje amabati, izindi amategura.

Amazi y'umugezi utemba ahantu mu kabande hitetegeye ishyamba, iryo shyamba rikaba ari iry'inturusu ndetse hejuru y'ishyamba hakaba hari imirima y'abaturage.

Umurima munini bigaragara ko utuweho n'abaturage bakeya, hari inyubako zifite amabati, ndetse hakaba n'izindi zifite amategura. Uwo musozi ukaba uriho ibihuru ndetse hakaba harimo n'amashyamba n'insina.

Umusozi mwiza cyane, ukaba uriho amaterasi y'indinganire. Hari ibiti byinshi bigaragara. Hari igicu cyiza cyane cy'umweru ndetse hakaba hari ikirere gituje.

Inka nziza cyane zifite amahembe azamuye maremare kandi manini, zikaba zira ahantu hamwe aho zitungirwa. Hari abaganga bazo baje kuzivura, bakaba bambaye bote z'umweru, ndetse abandi bambaye n'impuzankano.

Ingurube ni itungo rikunze kororoka mu gihe gitoya ndetse rikaba ritangaje kuko ribwagura ibibwana byinshi nyamara byose bikura neza ndetse bigatanga umusaruro.

Inka z'inyambo ni inka zitaweho ku buryo iyo zirwaye abaganga baba bari hafi kugira ngo baziteho bitewe n'uko ari zimwe mu ziranga umuco Nyarwanda.

Ihene nyinshi cyane ziri mu gihuru zirimo kurisha ndetse hari abashumba bazo bari kugaragara bibereye ahagana hirya bakaba baziretse kugira ngo zirishe.

Inyubako nziza cyane irimo ibikoresho byifashishwa mu bworozi bw'amatungo ndetse bikaba bigaragara ko ari uburyo bwo guteza imbere abahinzi ndetse n'aborozi babigize umwuga.

Inyubako nziza cyane ikaba ari inyubako ifite igikuta kiriho akantu kariho umugozi utukura, ako kantu kakaba kazana umuriro wamashanyarazi muri iyo nyubako.

Umugabo wambaye itaburiya y'umweru ari imbere y'ikiraro cy'inka, kikaba ari ikiraro cyubatswe neza cyane mu buryo bugezweho, cyubakishije ibyuma gifite inkingi ndende kikaba gisakaje amabati meza.

Inkoko nziza cyane zorowe mu buryo bwa kijyambere, zifite utuzu twazo zitahamo ndetse zigaburirwa neza cyane, uko bigaragara umuntu wazoroye, iyo bigeze mu masaha ya nimugoroba, aza kugenda atoragura amagi zateye.

Ibihingwa by'impeke nyinshi cyane zirunze mu matsinda, hari ibishyimbo, hari ibigori, amashaza ndetse hakaba na soya, ibyo byose n'ibihingwa bya kinyarwanda biboneka mu gihugu cyacu.

Imbuto zitandukanye zazanywe ku isoko zikaba zirunze ahantu hamwe ariko ziri mu matsinda atatu, zose zikaba zitegereje abakiriya.

Urupango rurimo inka zikaba ari inyambo gusa ni inka nziza cyane z'ubworozi ndetse hakaba hari abaturage bazizanye hari abaganga b'amatungo barimo kuzitera inshinge.

Umugabo bigaragara yuko ari umuvuzi w'amatungo ari iruhande rw'urupango akaba arimo kugenda avura inka, iruhande rwe hari umugabo urimo kwitegereza inka ndetse inka ni nyinshi cyane.

Ikiraro kirimo inka nyinshi cyane zifite amahembe manini ndetse maremare, hakaba hari abaganga b'amatungo bambaye imyenda yabugenewe barimo kugenda batera inshinge izi nka. Ibingibi bikaba ari gahunda yashyizweho na leta.

Abaganga b'amatungo, ni abaganga b'abahanga cyane ku buryo hari inka zisigaye zibagwa maze zikavurwa zikongera zigakira nk'uko umuntu na we agira ikibazo akajyanwa kwa muganga bakaba bamubaga igihe afite ikibazo gikomeye.

Ingurube bigaragara ko yapfuye cyangwa se ikaba irwaye irembye. Muganga akaba agiye kuza kuyivura ndetse bakaba bizeye ko ishobora kongera kugenda, ikaba nzima.

Umuntu bigaragara ko ari umuganga yambaye itaburiya y'umweru ndetse ari kumwe n'undi wambaye itaburiya y'icyatsi kibisi, bose bambaye udupfukamunwa ndetse bakaba bari kubaga imbwa kugira ngo barebe ko bayivura indwara igakira.

Inzovu ni inyamaswa ipima ibiro byinshi ku Isi, bivugwa ko ipima toni zirenga igihumbi. Iyi nymaswa ifite imibereho itangaje cyane kuko ntago ijya ibaho mu buryo nk'izindi nyamaswa zibamo.

Urusamagwe ni inyamaswa iteye ubwoba ndetse ikaba ifite uburyo ikorana n'ingwe kuko bavuga yuko iyo ingwe yishe umuhigo ikuramo umutima ikigendera, urusamarwe na rwo ruba ruri hafi aho rugahita rufata uwo muhigo rukawujyana.

Parike ziba zirimo inyamaswa z'ubwoko bwose, Impala, imparage, isha, intare n'izindi nyamaswa zigiye zitandukanye, aho zikurura ba mukerarugendo bakaza kuzireba.

Inyamaswa y'itsirika yasamye ikaba ifite urwasaya runini cyane, ifite amenyo ateye ubwoba ndetse iramutse irumye umuntu yahita imuhwanya burundu.

Igisamagwe kiri kunywa amazi. Kiri ku giti kinini cyane cyaguye ndetse uko bigaragara mu ishyamba ry'inzitane, ryiberamo urusobe rw'ibinyabuzima bigiye bitandukanye.

Igisiga kiri koga mu kiyaga, ni igisiga bigaragara yuko gifite ibara ry'umweru ndetse n'umukara, icyo gisiga kikaba ari igisiga cyo mu bwoko bw'intunda.